Icyumba k'ishuri giteguye neza, kirimo intebe zihagije zo gufasha abanyeshuri kuba bakwicara, kandi bakandika neza mu buryo buboroheye, n'ikibaho kiri imbere kugira ngo mwarimu akifashishe abaha amasomo atandukanye.

Icumba k'ishuri kirimo intebe n' ameza, abanyeshuri bifashisha iyo barimo kwiga, kugira ngo babashe kwandika neza, kandi kirimo umunyeshuri umwe gusa.

Ikigo kinini cyane cy'amashuri yisumbuye aho abanyeshuri biga kugira ngo babashe kuronka ubwenge, buzabafasha kurangiza neza ,maze bakabona amanota azabafasha kugera muri kaminuza.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri gabanza，bari mu ishuri bafite ibishushanyo byabo kandi babyerekana. Kimwe gifite inzu nini cyane n'ikindi kiriho umusirikare ufashe imbunda.

Abaririmbyi b'abanyeshuri batandukanye abakobwa n'abahungu mu mpuzangano y'ishuri jyabo, bararirimba bifashishije ibikoresho bya muzika bitandukanye, birimo gitari ndetse na mikoro.

Umukozi w'umukobwa ukora akazi ko kwakira abakiriya mu kabari, aho ashimishijwe n'umukiriya we, akaba amushyiriye ikinyobwa ndetse n'kirahuri cyo kwifashisha, kugira ngo abashe kunywa neza.

Abanyeshuri mu mpuzangano y'ibara jy'umukara, mu cumba kinini k'ishuri, aho buri wese yitabiriye isomo ry'ububaji kandi afite ibikoresho bihagije bimufasha gukurikira amasomo ge neza.

Abanyeshuri mu mpuzankano y'ibara ryabo ry'umweru, aho bari kwigira mu byo bita amagurupe, bakaba bari kungurana ibitekerezo bitandukanye, ku isomo umwarimu wabo yabahaye, kugira ngo buri wese abashe kuryumva neza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri jyabo, aho bashizwe mu magurupe gatandukanye, kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo ku mukoro bahawe n'umwarimu wabo, uri kugenda azenguruka mu magurupe kugira ngo abashe kureba ubujyo bari kuwukora neza.

Abantu bari kubaka inyubako nini cane kandi ndende y'amatafari gahiye, bakoresha ibikoresho byabugenewe by'ubwubatsi n'imyambaro zibarinda impanuka nk'ingofero zo mu mutwe n'ibisarubeti.

Ishuri ry'umwuga w'ubudozi, aho abanyeshuri bifashisha amamashini kugira ngo babashe kwiga kudoda kandi bakifashisha na zimwe mu nyandiko bahabwa na mwarimu wabo, kugira ngo barusheho kumenya neza ubudozi.

Abaganga bari gupima ingwara zitandukanye aho bifashisha ibikoresho byayabugenewe byo kubarinda kwandura zimwe mu ngwara nk'agapfukantoki ndetse n'itaburiya, kandi barakoresha n'igikoresho k'ikoranabuhanga citwaga mikorosikopi.

Icumba kinini kirimo abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa biga gutegura imisatsi neza, nko kuzisuka no kuzoza bakoresheje ibikoresho bigezweho, kugira ngo bizabafashe kuzaba abakozi beza, mu gihe bazaba bari gushira mu bikorwa ibyo bize.

Abanyeshuri mu mpuzankano y'ibara ry'ubururu y'ishuri ryabo, aho bari mu nzu yigishirizwamo gutunganya inzara kugira ngo babimenye neza nabo bazabikore ku isoko ry'uumurimo.

Mu mwenda mwiza w'umweru, n'ingofero y'umweru, n'agapfukamunwa, aho abakozi bari kwakira imigati iri gusohoka mu mafuru, kugira ngo babashe kuyishira ahabugenewe maze abakiriya baze bayihasanga.

Icumba k'ishuri kirimo abanyeshuri bari kwiga ikoranabuhanga, aho buri wese afite kompiyuta ye, kandi na mwarimu wabo agenda agenzura kuri buri wese kugira ngo arebe yuko ari gukurikira neza ibyo ari kubigisha.

Inzu ikorerwamo amamodoka yangiritse, aho abanyeshuri mu mwambaro wabo wabugenewe, mu mpuzankano y'ibara ry'ubururu, baje kwiga gukora amamodoka yangiritse kandi bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo, uri kuberekera abigisha kandi abakosora.

Icumba kinini c'ishuri ry'ikoranabuhanga, aho buri ntebe yose ifite mudasobwa, kugira ngo buri munyeshuri wese azabashe kugira ubumenyi bwinshi mu ikoranabuhanga ndetse na mudasobwa.

Inzu y'ubukanishi bw'imodoka ahari gukanaikigwa imodoka zo mu bwoko butandukanye, abanyeshuri nabo bakaba bari kwiga gukanika imodoka mu mpuzangano yabo y'ibara ry'ubururu, bakoresheje ibikoresho bitandukanye by'ubukanishi.

Ibitaro by'abarwayi, ahari abaganga benshi bambaye ibikoresho bitandukanye, birimo agapfukamunwa, itaburiya n'ingofero, aho bibafasha kuba bakwirinda zimwe mu ndwara abarwayi baba barwaye, nka zimwe mu zo mu buhumekero ndetse n'iz'uruhu.

Icumba c'ishuri kirimo abanyeshuri b'ingeri zitandukanye abakobwa n'abahungu mu mpuzangano y'ibara jy'umweru aho bari kwigishwa imyuga zizabasha kubabeshaho mu gihe kizaza.